Gutera imiti mu bihingwa bitandukanye bifasha ko umusaruro uba mwiza, kandi abantu bakazawishimira, bigasigasira no kuzabona imbuto nziza.

Uruzitiro rwa senyenge rushobora gukikiza umurima, aho ahabera ubworozi, ndetse n'ibindi bikorwa kugira ngo bitavogerwa.

Igiti giteye hafi y'umugezi utemba. Iki nta bwo gishobora kuma kubera ko gihora gitoshye kimeze neza. No mu gihe cy'izuba ki...

Igitoki cyo ku rugo ni cyiza, iyo urutoki ruri hafi yo mu rugo ukagira ikibazo ntabwo inzara yakwica, igitoki wakiyambaza ukagica ,ukagitekera abana ,nuko ubu ngubu hateye abasambo, ariko igitoki kiri ku rugo kiba ari cyiza.

Umusaruro w'ibijumba, umeze neza ibijumba biryoshye bifite amafufu kandi by'ubwoko bwiza, ibi ni na byo bakoramo biswi.

Icyayi ni igihingwa cyiza, gikunzwe n'abantu benshi cyane cyane abanyamahanga. hano iwacu irwanda icyayi gitunze benshi, kuko gitanga akazi, abagikorera abagisarura ndetse n'inganda zigitunganya, usanga abantu bafite ubuzima bwiza ndetse n'iterambere, rishingiye ku musaruro w'icyayi.

Umusaruro w'imboga ufasha ubuzima bwiza mu miryango, ndetse abahinga imboga baranazicuruza bakazigurisha ku isoko bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubuhinzi, umusaruro w'ibijumba. Ibijumba ni igihingwa ngandurarugo. Abantu bejeje ibijumba, bifasha mu miryango kubijyana ku masoko ndetse no kubirya, ariko kikaba ikiribwa umuntu adashobora kurya cyonyine.

Urubuto rwa avoka ruraryoha cyane, abantu bazikunda cyane cyane iyo bari kuzishira ku biryo, kandi zituma umuntu agira apeti, iyo ari kurya akumva araryohewe cyane. Hari n'ubwo abantu bazirya bari kuzirisha ibi.

Umusaruro w'ibishyimbo bikiri imiteja, babicuruza ari imboga, kandi abantu barabikunda, biraryoha.

Ubuhinzi bw' imboga cyangwa ibindi, bufasha abantu kubona imibereho y' ubuzima bwiza bishingiye ku musaruro kandi bagasagurira isoko, ibi biba byiza cyane bituma abantu babaho neza.

Imbuto z'amapapayi, ubwoko butandukanye ni zimwe mu mbuto ziribwa cyane cyane zikagira umumaro, ndetse akenshi na kenshi zivamo umuti.

Imbuto ziribwa zifasha abana gukura neza, ndetse n'abantu bakuru iyo bagiye bazirya, bagira ubuzima bwiza. Dushishikarire twese ubuhinzi bw'imbuto ziribwa.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'inyanya, inyanya zikundwa n'abantu cyane cyane b'abasirimu baba bashaka kurya ibiryo byiza, kandi inyanya zitera ifunguro kuba ryaryoha rikamera neza bakarirya.

Inka ni nziza. Inka mu muco nyarwanda, ifasha abantu bayoroye kubona amata. Inka ni byinshi ifasha umuryango kandi igakatanga n'ifumbire, bigatuma abahinga beza imyaka imeze neza.

Umusaruro w'ubuhinzi bw'ibirayi, ibigori bivanze n'ibirayi mu muririma, ariko biterera kimwe ,igihe kimwe, ibi bishobora gufasha nyir'umurima gusarura mu bihe bitandukanye, agasarura imbuto zitandukanye,

Urusenda, igihingwa cy'urusenda rurakunzwe ruranagurwa cyane, abantu bakunda kururya ni abantu bakuze, ariko kandi hari n'inganda zisigaye zirutunganya, nko kwa Nyirangarama bakora urusenda rwiza cyane barwise Akabanga.

Umusaruro wibinyampeke nk'ibishyimbo, ingano, amashaza, n'ibindi, n'ibigori, n'ibigori cangwa n'ibishyimbo

Ubuhinzi bw'amasaka hano iwacu i Musanze, amasaka ni igihingwa cyiza, ni gihingwa ngandurarugo, umuhinzi uhinga masaka, bavuga ko ari umukungu, kandi aba afite ibintu byinshi bishingiye ku buhinzi. Ubuhinzi bw'amasaka rero, ni ingenzi mu gihugu, kuko amasaka ni ingirakamaro.

Ubworozi bw'ingurube za kijyambere. Itungo ryororwa n'abantu bose kandi rikarya bike. Inaha mu majyaruguru turarikunda cyane.

Inyama zikundwa n'abantu bose kandi bakazirya bazishimiye, akenshi na kenshi nta muntu uzihaga kuko iyo uri kuzirya uba wumva wakomeza ukazirya nta muntu uhaga inyama.

Ubworozi bw'inka za kijyambere butanga umusaruro kurusha inka zisanzwe zororewe mu rugo, kuko izi za kijyambere zikamwa amata menshi cyane, kandi aya mata akagirira umumaro ba nyirayo; iyo bari kuyagemura bakayacuruza bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'inka za kijyambere n'ubworozi bw'inka z'inyarwanda zose zigamije gutanga umusaruro ku borozi ba zo.

Inkoko zitera amagi, inkoko zitanga inyama, inkoko zitanga ibikomoka kuri zo. Ndetse kandi zikaba ari ubworozi bworoheje butagoye, buri muntu wese hano iwacu i Musanze akaba ashobora kuzorora.

Inyamaswa zo mu gasozi, inyamaswa zo mu ishyamba, zimwe mu bigize ibidukikije.